Umuyobozi uyoboye ikiganiro ashashe mikorofone mu ntoki, arimo ageza ku bitabiriye inama ingingo z'ingenzi ziraza kwibandwaho muri iyo nama n'izo bari buze gufatira umwanzuro muri iyo nama.

Abayobozi batandukanye baturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura. Bateraniye mu cyumba cy'inama biga ku ngingo zirimo uburyo bayirushaho kunoza serivisi batanga.

Urubyiruko rwaturutse mu mpande zose zitandukanye z'igihugu rurimo guhugurwa ku ngingo zitandukanye aho uyoboye ikiganiro ahagaze imbere y'abahugurwa abagezaho ingingo z'ibyigwa.

Abayobozi ba leta mu nama nyunguranabitekerezo hamwe n'abatumirwa batandukanye biga ku bibazo bimwe na bimwe ndetse batanga n'ibitekerezo mu kubaka igihugu.

Abagore n'abategarugori bahuriye mu nzu mberabyombi mu mahugurwa yagenewe abategarugori n'abari mu rwego rwo kunoza imishinga ifitiye akamaro abari n'abategarugori no kurwanya ihohoterwa ribakorerwa.

Abafatanyabikorwa ba leta mu mishinga y'iterambere ry'abaturage mu kiganiro hamwe n'abaturage, biriga ku mishinga yo guteza imbere umuturage w'u Rwanda.

Shyaka Anasthase wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda, ubu ngubu akaba ari ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya poronye hamwe na Frank umuyobozi mukuru w'ishyaka rya Green Party rikorera mu Rwanda.

urubyiruko rwateraniye hamwe rwaturutse mu bice bitandukanye by'ibihugu, mu Mberabyombi kugira ngo ruhugurwe kuri gahunda zitandukanye, rutange n'ibitekerezo byarwo ku ngingo zitandukanye.

Uwahoze ari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka Anasitaze, ari mu cyumba cy'inama hamwe n'abandi bayobozi bicaranye ku meza barimo baganira, ku ngingo z'imiyoborere mu Rwanda, aho yari akiri mu nshingano zo kuyobora iyi Minisiteri, ubungubu akaba ari Ambasaderi w'u Rwanda muri Polonye.

Inama iyobowe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali yari irimo komite y'umujyi wa Kigali, ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye, biga ku ngingo zigiye zitandukanye zo guteza imbere umuturage ndetse n'umujyi wa Kigali muri rusange.

Abayobozi bakuru ba gisirikare n'izindi nzego z'umutekano mu Rwanda bahuriye mu cyumba cy'inama aho barimo kwiga ku ngingo y'umutekano n'uburyo umutekano w'u Rwanda wakomeza kubungwabungwa.

Abayobozi bo mu tugari tw'uturere tugize umujyi wa Kigali bahuriye mu cyumba cy'inama barimo guhugurwa ku mishinga y'iterambere mu rwego rwo kwihutisha serivisi zihabwa abaturage mu kwihutisha iterambere.

Abayobozi mu nzego za leta baturutse mu mirenge igize igihugu cy'u Rwanda, barimo kwiga ku mishinga itandukanye n'uburyo bwo kunoza serivise z'iterambere n'uburyo bakwihutisha iterambere ry'umuturage.

Umuyobozi wa hoteri, arimo kuganira n'abakozi bakora muri hoteri barimo, nk'abakora mu gikoni ndetse n'abakora umwuga wo kwakira abakiriya, arimo kubabaza zimwe mu mbogamizi bahura na zo, abashishikariza gutanga serivisi nziza ku babagana.

Abaturage mu nzu mbera byombi ya Kacyiru aho bagiye mu mahugurwa y'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB aho kirimo kubahugura mu mishinga yo kunoza imiyoborere mu Rwanda.

Abayobozi batandukanye b'ibihugu n'abatumirwa batandukanye baturutse mu mpande zitandukanye z'isi, mu nzu mbera byombi baganira ku nsanganyamatsiko bayitangaho ibitekerezo kugira ngo bafate umwanzuro w'iterambere.

Abayobozi bo mu nzego za Leta muri Guverinoma y'u Rwanda bahuriye mu cyumba cy'inama biga ku mishinga y'iterambere ry'Igihugu. Aho bari bari kuganira ku ngingo yo gushyira umuturage ku isonga mu bimukorerwa mu rwego rwo kunoza serivisi z'iterambere zikenerwa n'umuturage.

Abaganga mu cyumba cy'inama barimo kuganira n'ubahagarariye mu bitaro mu rwego rwo kunoza serivisi z'ubuvuzi mu kungurana ibitekerezo mu byakorwa mu kugira ngo serivisi batanga zirusheho kuba nziza barusheho gufasha abarwayi ndetse n'ababagana.

Abagize komite nyobozi y'akarere na njyanama y'akarere, bari mu cyumba cy'inama, umwe muri bo afite indangururamajwi, ari kubagezaho igitekerezo cye ku mushinga w'iterambere ry'abaturage.

Abatumirwa batandukanye mu nzu mberabyombi bari mu mahugurwa biga ku ngingo runaka, bayitangaho ibitekerezo kugira ngo bafatire umwanzuro bimwe mu biri ku rutonde rw'ibyigwa.

Abatumirwa mu nzego zitandukanye baturutse mu mpande zitandukanye z'igihugu, bahuriye mu nzu mberabyombi, ngo bige ku ngingo zimwe na zimwe, bakaba bafite mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi abafasha, kugira ngo ibiganiro byabo bigende neza.

Ishami ry'urubuga rw'irembo muri serivisi zashyizweho na guverinoma y'u rwanda mu korohereza abaturarwanda kubona serivisi zitandukanye bitiriwe bisaba ko bajya gutonda umurongo ndetse no kwishyura serivisi zitandukanye batiriwe bava mu rugo.

Umu agenti w'irembo ukorera mu nyubako yo mu mujyi wa Kigali utanga serivisi z'ikoranabuhanga zitandukanye harimo nko kwishyura imisoro, kwishyura amazi ndetse no kugura umuriro akaba atanga na serivisi zo gufotora ndetse n'izo gufotora impapuro.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Reveni Otoriti, aho gikoresha uru rubuga mu rwego rwo kumenyekanisha ndetse no gukangurira abasora uburyo bwiza kandi bworoshye bwo gusora imisoro bagomba gusora.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda reveni otoriti, aho cyakanguriraga abasora mu kusora umusoro ku nyungu no kumenyekanisha bitarenze itariki ntarengwa yari yatanzwe, ya tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho yabashishikarizaga kumenyekanisha no gusora imisoro mu rwego rwo kwirinda ibihano.

Apurikasiyo ikoreshwa muri telefoni zigendanwa ndetse no kuri mudasobwa yashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubworozi n'ubuhinzi minagiri mu rwego rwo korohereza abahinzi n'aborozi kubona ifumbire ndetse n'imbuto.

Urubuga rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda Reveni Otoriti muguha abasora urubuga umwanya wo kwihugura mu ikoranabuhanga ryo gutanga imisoro rizwi nka Ebiyemu.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere aragibi kikaba kigaragaza ko cyashyizweho n'impamvu cyashyizweho kigaragazamo na zimwe muri serivisi zitangwa n'uburyo umuntu yakigeraho.

Porogaramu yashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda revennyu osorite mu gufasha abasora mu buryo bwo kumenyekanisha imisoro yabo biboroheye bakoresheje teefone cyangwa mudasobwa.

Intambwe ya gatatu muri byikorere porogaramu yashyizweho na gahunda y'irembo mu rwego rwo korohereza abaturarwanda kubona serivisi zitandukanye bakoresheje ikoranabuhanga nk'abari barimo kubashishikariza mu kwiyandikishiriza gukora ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga.

Ihuriro ryateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, rizaba kuva ku itariki ya makumyabiri na kane kugera ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa kabiri, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, mu rwego rwo guhugurira urubyiruko zimwe mu nzira n'imishinga rwakora mu rwego rwo kwiteza imbere.

Umunara wa sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ya MTN, akaba ari umunara uteretse mu rusisiro mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo aho ufasha abafatabuguzi ba MTN kubona serivisi z'itumanaho ndetse na murandasi.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB aho cyasohoye inyandiko zigaragaza uburyo serivisi zagiye zitangwa n'ibigo bitandukanye by'ubuyobozi mu Rwanda.

Abana biga mu mashuri abanza, barimo kwiga gukoresha imashini za mudasobwa, zibafasha kunguka ubumenyi butandukanye ku ikoranabuhanga rya mudasobwa.

Gahunda ya byikorere yashyizweho n'urubuga rw'irembo, rufasha abaturarwanda kubona serivisi zitandukanye, harimo nk'iyo kwishyura, kwiyandikisha gukorera impushya z'ibinyabiziga, no kubona ibyangombwa bitandukanye, aho iba irimo gushishikariza abaturage gukoresha urwo rubuga.

Ikiyosike iherereye muri ka furi zone iri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, akaba ari kiyosiki icururizwamo n'ibikoresho bitandukanye bikorerwa mu Rwanda, bizwi nka mede ini Rwanda, harimo ibikomo imyambaro ndetse n'inkweto.

Apulikasiyo yo kuri murandasi yashyizweho n'urubuga rw' irembo mu rwego rwo kumenyekanisha serivisi rutanga, no gushishikariza abaturage gushaka serivisi ku irembo bidasabye ko bajya mu biro by'abayobozi, ahubwo bakabona ibyangombwa bashaka, bakoresheje uru rubuga rw'irembo.

Porogaramu yashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi ku mpamvu yo gufafasha abanyeshuri gusoza amasosomo yabo binyuze ku maradiyo atandukanye, ahubwo iri ishuri ryabaga rifite radio ryigiraho n'amasaha yabugenewe y'abanyeshuri basubiramo amasomo abifashijwe n'abarimu binyuze ku maradiyo.

Inyubako iherereye ku Kinamba mu Karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ikaba iherereye ku muhanda wa kaburimbo, aho ikorerwamo serivisi zitandukanye zo kuri murandasi z'Irembo ndetse igatangirwamo serivisi zo gufotora.

Umunara wa kompanyi itanga serivisi z'itumanaho ugizwe n'amabateri n'ibindi bice bitandukanye, bifasha umunara gusakaza itumanaho mu bafatabuguzi bayo.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB (Rwanda Governance Board), yifashisha mu rwego rwo kumenyekanisha serivisi zayo ndetse no gushishikariza abaturage kugira uruhare mu miyoborere.

Imwe muri porogaramu z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo y'igihugu ndetse na serivisi, aho gikangurira abanyarwanda kudashukwa n'abatubuzi bashaka kubarya ibyabo.

Ikiganiro ku misoro cyatanzwe na Mbera Emi, komiseri wungirije ushinzwe ubugenzuzi bw'imisoro cyatanzwe ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwesi kwa gatatu, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane cyavugaga ku by'ingenzi ku misoro iri kuvugwa muri iyi minsi.

Gahunda yashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, aho cyashyizeho gahunda ya Visit Rwanda ku bufatanye n'amakipe atandukanye y'i Burayi, harimo nka Bayern Munich yo mu Budage, Arsenal yo mu Bwongereza ndetse na Paris saint germain yo mu Bufaransa, mu rwego rwo kumenyekanisha u Rwanda ndetse n'ibyiza nyaburanga birugize, mu rwego rwo gukurura ba mukerarugendo.

Uruganda rw'amashanyarazi ruherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ahakorerwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG, mu rwego rwo kubika ingufu z'amashanyarazi ndetse no kuyakwirakwiza mu baturage b'u Rwanda.

Ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi riteye mu busitani ahirengeye aho rifashwe n'insinga nyinshi zitandukanye zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage mu mujyi wa kigali.

Umunara wa sosiyete itanga serivisi y'itumanaho ya Airtel, uriho amabateri ndetse n'ibikoresho biwufasha mu gukwirakwiza itumanaho ku baturarwanda bakoresha uyu umuyoboro wa Airtel mu guhamagara, kohereza amafaranga ndetse no kubitsa amafaranga.

Ipoto ry'amashanyarazi riri mu rusisiro rwagenewe guturwamo, rifashweho n'insinga z'amashanyarazi nyinshi zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage batuye urwo rusisiro, mu rwego rwo kubaha serivisi z'amashanyarazi no kubona umuriro w'amashanyarazi.

Ipironi rikozwe mu byuma bitwara umuriro w'amashanyarazi, riri iruhande rw'inzu zituwemo n'abaturage, zifashweho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kuyakwirakwiza mu baturage.

Amapironi y'ibyuma ateweho insinga nyinshi ziyafasheho, zifasha mu gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu, mu kwegereza abaturage umuriro w'amashanyarazi.

umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ukaba uriho ubusitani bwiza ndetse ukaba uteweho n''piloni ritwara insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi zinafashweho amatara amurikira uyu muhanda mu gihe cya nijoro.

Ipiloni riteye mu busitani rifasheho bateri ndetse n'insinga zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage mu rwego rwo kurushaho guhereza abaturarwanda umuriro w'amashanyarazi ubafasha mu bikorwa bya buri munsi.

Ipironi ry'igiti ritewe mu rusisiro rutuwemo n'abaturage rifashweho n'insinga nyinshi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage mu rwego rwo kubagezaho umuriro w'amashanyarazi.

Inzu yo guturamo iherereye mu rusisiro rwo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo akaba ari inzu iri ku muhanda wa kaburimbo iri iruhande rw'ipiloni ikozwe mu byuma ifashweho n'insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ipironi rifashwe n'insinga nyinshi zitandukanye ririho n'itara riri uruhande rw'umuhanda wa kaburimbo mu mujyi wa kigali akarere ka nyarugenge rikaba ryifashishwa mu kumurikira umuhanda mu gihe bya nijoro mu rwego rwo gukomeza koroshya ingendo ndetse izo nsinga zikaba zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Isangano rihuza imihanda mu mujyi wa Kigali, iyi mihanda ikaba igaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo moto ndetse n'imodoka, iyi mihanda ikaba ifite mu nkengero zawo uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru, ikaba ifite n'amatara ayimurikira mu gihe cya nijoro.

Inzu iri ku muhanda wa kaburimbo umuhanda wo mu mujyi wa kigali uyu muhanda ukaba ukikijwe n'amapiloni ariho amatsinga akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi kandi ukaba ufite amatara awumurikira mu gihe cya nijoro mu rwego rwo kurushaho kunoza imigenderere mu mujyi wa Kigali.

Umuforomo mu cyumba cyagenewe kwakirwamo abarwayi kwa muganga, kirimo imashini zibafasha guhumeka ndetse n'intebe zo kwicaraho, hamwe n'ibitanda byo kuryamaho mu gihe umurwayi barimo, urimo gufata serivisi z'ubuvuzi zitandukanye.

Parikingi nziza iherereye ku bitaro bya Kacyiru ahaparitse imbangukiragutabara ndetse n'izindi modoka z'abakozi bakora muri ibi bitaro, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza n'amatara amurikira iyo parikingi mu gihe cya nijoro.

Ibitaro bikuru biri mu karere ka Huye, bikaba ari ibitaro byigishirizwamo abaganga, bikaba aritaro bitanga serivisi nyinshi, kandi zitandukanye z'ubuzima ku barwayi.

Ikigonderabuzima cya Kacyiru giherereye mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali, abaturage bo mu karere ka Gasabo n'abaturutse ahandi baza kuhivuriza bakabona serivisi z'ubuvuzi ku buryo bunogeye buri wese.

Icyapa cy'ibitaro bya kabgayi by'amaso KABGAYI EYE UNIT gitanga ubuvuzi bw'amaso bikorwamo n'inzobere zitandukanye z'amaso, bakaba bagaragaza amasaha y'akazi aho kuwa mbere kugeza ku wa gatanu bakora kuva saa moya za mugitondo kugeza saa kumi n'imwe za nimugoroba.

Icyapa kiyobora abagana ibitaro bya Kacyiru, akaba ari ibitaro biherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, iki cyapa kikaba kiyobora abagana ibi bitaro kibereka aho serivisi zitandukanye zigenda zitangirwa.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bwa gakondo bw'abashinwa iherereye mu mujyi wa Kigali naho hari ibyumba abarwayi bisuzumishirizamo n'aho bafatira imiti ndetse n'intebe bicaramo mu gihe bategereje kubonana na muganga.

Inzu y'ikigonderabuzima itangirwamo serivise zitandukanye z'ubuzima, kuvura, gusuzuma, no gutanga imiti n'izindi serivise zitandukanye z'ubuzima mu gufasha abaturarwanda kubona serivise zibafasha kugira ubuzima bwiza.

Abagororwa mu igororero bambaye impuzangano y'igororero barimo kureba amakuru kuri televiziyo biyungura ubumenyi bamenya n'amakuru ari hanze.

Urupapuro rwo mu igazeti ya leta rugaragaza ingingo ya cumi na rimwe n'iya cumi na kabiri, bivuga mu gukoresha nabi k'umutungo wa leta, n'ibihano bitandukanye bifatirwa uwakoresheje nabi umutungo wa leta.

Abashinjacyaha abacamanza ndetse n'abahagararira ababurana hamwe n'imfungwa irimo kuburana ku byaha ishinjwa, mu rubanza ruri kubera mu nzu y'ubucamanza.

Komite y'abunzi bumwe mu buryo bwashyizweho mu kunga abaturage bafitanye ikibazo no gukemura amakimbirane hagati yabo, akaba ari inzira nziza ifasha abaturage gukemura ibibazo bitandukanye.

Abagororwa bagororerwaga mu igororero rya kigali nyarugenge ahazwi nka dizinefi tranti. Iyi gereza ikaba iherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka nyarugenge muri rompuwe yerekeza mu mujyi rwagati.

Abayobozi bo mu nzego za leta bari mu nzu mberabyombi, bari mu nama biga ku mishinga y'iterambere ry'igihugu no kunoza serivise nziza bahereza abaturarwanda.

Uwahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda Pierre Damien hagati y'abamwunganira mu mategeko imbere y'ubucamanza, aburana ku byaha by'inyandiko mpimbano yaregwaga n'urukiko.

Umucungagereza wambaye impuzankano yabugenewe y'abacungagereza, aherekeje imfungwa yambaye imyenda y'imfungwa yambaye amapingu, ifite n'ibitabo ijyiye kugezwa imbere y'urukiko, mu kuburana ku byaha ishinjwa.

Perezida wa sena, minisitiri w'intebe w'u Rwanda Eduard NGIRENTE, minisitiri w'umutekano n'abandi bayobozi bakuru mu gisirikare, bari kumwe n'abasirikare bazamuriwe amapeti.

Abacamanza mu mpuzangano y'amakanzu maremare y'umukara, ariho agatambaro k'umweru imbere, mu kugaragaza akazi bakora, binyuze mu myambaro yabo.

Umuyobozi mukuru w'urukiko rw'ikirenga arimo kurahirira inshingano yari ashinzwe na guverinoma, Aharanira kuzazikora neza no kuzakora uko ashoboye mu guteza imbere igihugu no guteza imbere ubutabera mu Rwanda.

Urupapuro rwo mu igazeti ya leta igena amabwiriza ya minisiteri nimero zeru zeru rimwe, akarongo kaberamye makumyabiri na gatanu akarongo kaberamye icumi akarongo kaberamye T C yo ku wa makumyabiri n'umwe z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu, agena inyandikorugero y'amategeko ngengamikorere y'ikimina.

Abagororwa bambaye impuzankano y'abagororwa, barindiwe umutekano n'abacungagereza, bavuye kuvoma bafite ibijerekani birimo amazi mu rwego rwo gushaka amazi meza yo gukoresha mu kwirinda gukoresha amazi yanduye.

Imfungwa n'abagororwa bambaye impuzangano ibaranga, bakikijwe n'ababacungira umutekano, barimo kwinjira mu igurero rya Rubavu mu rwego rwo kubacungira umutekano.

Abagororwa barimo kuva mu modoka ishinzwe gutwara abagororwa mu gihe bagiye kuburana bakikijwe n'aba bacungira umutekano barimo kubinjiza mu nzu yo kuburanishirizwamo kugira ngo baburanishwe ku byaha bashinjwa.

Icyapa cy'ibitaro bikuru bya polisi biherereye Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, akaba ari icyapa kiri mu marembo y'ibitaro bya polisi kigaragaza amarembo yabyo.

Imodoka yabugenewe iparitse mu muhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali, akaba ari imodoka yifashishwa mu kuzimya inkongi, aho yari irimo gutanga ubutabazi bw'ibanze, irimo gukoreshwa hazimywa inkongi y'umuriro yari yafashe imodoka ya fuso.

Iduka ricuruza ibikoresho by'ubwubatsi, aho ricuruza inzego buririraho mu gihe bashaka kujya ahantu harehare, kubaka ahantu harehare ndetse no gushyiraho ibindi bikorwa bitandukanye hejuru umuntu atagera ubwe ku giti cye.

Igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kigaragara ku nyubako zose mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hantu hahurirwa n'abantu benshi mu rwego rw'ubutabazi bwihuse mu gihe aho hantu haba hahuye n'ikibazo cy'inkongi y'umuriro.

Umukozi ubifitiye ububasha wambaye impuzankano y'abugenewe urimo guhagarika ikinyabiziga mu muhanda wa kaburimbo mu mujyi wa Kigali, kugira ngo arebe niba cyujuje ibyangombwa bicyemerera kugendera mu muhanda mu mujyi wa Kigali.

Igikoresho kigaragara ku nyubako nyinshi ndetse n'ahandi hantu hahurirwa abantu benshi, mu rwego rwo guhashya inkongi y'umuriro, igihe aho hantu haba hahuye n'ikibazo cy'inkongi y'umuriro. Kikaba kigizwe n'udutiyo tureture, dufasha mu kuzimya umuriro.

Umukozi wabigize umwuga ukora akazi ko kuzimya umuriro wambaye neza wikwije mu kwirinda ko inkongi yamugiraho ikibazo ahetse icyuma kiba kirimo imyotsi izimya umuriro ndetse afite n'igihombo cyohereza imyotsi izimya umuriro.

Igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kigaragara ku nyubako zitandukanye ndetse n'ahandi hantu hahurirwa abantu benshi mu rwego rw'ubutabazi bwihuse mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe yaba ifashe aho hantu.

Igikoresho cyabugenewe mu kuzimya umuriro cya kizimyamwoto kigaragara ku nyubako zose zo mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi, mu rwego rw'ubutabazi bw'ibanze mu gihe haba habaye inkongi y'umuriro mu rwego rwo kuyizimya byihuse.

Igikoresho cyabugenewe kigaragara ku nyubako zo mu mujyi wa Kigali, ndetse n'ahandi hantu hahurirwa n'abantu benshi, mu rwego rw'ubutabazi bw'ibanze nko kuzimya umuriro, igihe haba hari ahahuye n'ikibazo cy'inkongi y'umuriro muri iyo nyubako, cyangwa hahurira abantu benshi.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda arimo kureba ibyangombwa by'umuyobozi w'ikinyabiziga, areba niba ibyangombwa byujuje ubuziranenge, akareba niba yemerewe gutwara ikinyabiziga.

Abanyamuryango ba FPR inkotanyi ubwo baribahuriye ahari harimo kubera igikorwa cyo kwiyamamaza cy'umukandida wa FPR inkotanyi Paul Kagame mu matora y'Umukuru w'Igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abategarugori b'abanyamuryango ba FPR inkotanyi, aho bari bagiye gushyigikira umukandida wabo Paul Kagame mu matora y'umukuru w'Igihugu yabaye mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho yari arimo kwiyamamariza.

Umukandida wiyamamaje ku mwanya wa perezida wa repubulika mu matora yabaye mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho yiyamamaje nk'umukandida w'ishyaka rya green party akaba ari nawe perezida waryo Dr.Frank HABINEZA.

Abakarani b'itora mu gikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu cyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho bari barimo kubarura amajwi y'abaturarwanda batoye umukuru w'igihugu bareba uwatorewe kuyobora igihugu.

Abaturage batonze umurongogo mu gikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu, yabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho abaturage basabwaga kujya ku masite y'amatora bakihitiramo umuyobozi babona bakwiriye uzayobora igihugu.

Minisitiri w'intebe wa repubulika y'u Rwanda, Edouard Ngirente imbere y'inteko ishinga amategeko, ayigezaho uko igihugu gihagaze, n'imirongo igihugu cyafashe ku ngingo zitandukanye

Umwe mu bayobozi bakomeye b'igihugu ari kumwe n'umufasha we arinzwe n'abasirikare bamucungira umutekano mu gihe yari yasuye abaturage b'igihugu.

Dr Frank Habineza perezida w'ishyaka rya Green Party, akaba yari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka ushize w ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, akaba yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza.

Abaturage bateraniye ku cyumba cy'itora bagiye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aho nyakubahwa perezida Paul Kagame yatorewe kongera kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka itanu nk'umukandida wa efuperi inkotanyi.

Abayobozi batorewe ubuyobozi mu nzego za Leta barimo kurahira bafasha ku idarapo ry'igihugu bavugira muri mikoro mu ijwi riranguruye barahirira gukora inshingano bashinzwe.

Umukarani w'itora mu gikorwa cy'amatora arimo gusobanura umuturage uburyo amatora akorwamo, akaba ari amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho yari arimo kumwereka agakarita kagenewe gutorwaho n'uburyo batora.

Firipe Mpawenayo wari umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu akomatanyije n'ay'abadepite yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza.

Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'Igihugu, yabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubwo yiyamamaje nk'umukandida w'ishyaka FPR inkotanyi.

Abanyamuryango b'ishyaka rya girini pati ubwo bari mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wabo dokita Frank Habineza wiyamamarije ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arimo kwinjira mu cyumba cy'inama, aho yari yagiye kugirana ikiganiro n'abanyamakuru abagezaho zimwe mu ngingo z'umutekano n'ukuntu igihugu gihagaze muri rusange.

Umubyeyi w'umumama uteruye abana be b'abahungu, bambaye amakoti bamwicaye ku bibero arimo abaganiriza ababwira inkuru zisekeje z'abana.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yari arimo kwakira indahiro z'abayobozi batandukanye bari bashinzwe imirimo y'ubuyobozi muri guverinema y'u Rwanda barimo kurahirira kuzakora inshingano zabo neza.

Imodoka itwaye ibikoresho by'ubwubatsi mu mihanda y'umujyi wa Kigali, aho ibikuye ku nzu icuruza ibikoresho by'ubwubatsi, ibijyanye ku nyubako irimo kubakwa mu mujyi wa Kigali.

Imodoka ya bisi itwara abantu mu buryo bwa rusange iri mu muhanda wa Kigali mu karere ka Gasabo ahiri mu muhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi umuhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani uyu muhanda ukaba ufite amatara awumurikira mugihe cya nimugoroba mu gihe bwije mu rwego rwo koroshya ingendo.

Imodoka yo mu bwoko bwa Yutongo bisi nini zikoreshwa mu Mujyi wa Kigali mu gutwara abantu, izi bisi zikaba zikoresha amashanyarazi, aho yari iparitse mu Mujyi wa Kigali mu Karere ka Nyarugenge Downtown, itegereje abagenzi kugira ibakure Downtown ibajyana i Remera.

Imodoka ndende ya fuso, yifashishwa mu kwikorera ibicuruzwa bitandukanye, ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, iri mu muhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali, unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba ugaragarwamo na moto zitwaye abagenzi, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru, ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso yifashishwa mu bwikorezi bw'ibintu iri mu muhanda wa Kigali igeze ku Kinamba, mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali, kiri gufasha kuyobora abatwaye ibinyabiziga, kibereka ahemerewe guhagarara akanya gato cyangwa akanini, mu rwego rwo gukuramo abagenzi cyangwa kubinjiza, mu kunoza neza imigendere myiza yo mu muhanda.

Imodoka nini yambukiranya imipaka itwara ibicuruzwa bitandukanye iri mu muhanda wa kaburimbo mu mujyi wa Kigali aho irimo kunyuranaho n'ikinyabiziga cya moto, umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo akaba ari umuhanda unyurwamo mu byerekezo byombi ugaragaramo ibinyabiziga byiganjemo imodoka moto ndetse n'amagare ukaba ukikijwe n'uduhanda duto twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru uyu muhanda ukaba ufite amatara awumurikira mu gihe cya ni joro.

Imodoka nini za bisi zo mu bwoko bwa yutongo zitwara abantu muri rusange, ziparitse muri gare iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ahaba hari utuzu twa twicaramo abagenzi mu gihe bategereje bisi.

Imodoka ya bisi yo mu bwoko bwa Yutongo itwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali, iparitse muri parikingi ya gare ya Kimironko, iherereye mu Karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, mu gihe itegereje abagenzi bo gutwara ijyana Nyabugogo.

Imodoka y'ikamyo yo mu bwoko bwa hoho iri mu muhanda wo mu mujyi wa Kigali, itwaye ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi, ikaba iri mu muhanda ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ukaba ufite n'ubusitani buriho n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Imodoka zitwara abantu muri rusange ziparitse muri gare ya Nyabugogo, aho ziparika mu gihe cya nijoro mu gihe zitegereje abagenzi, akaba ari gare igaragaramo urujya n'uruza rw'abantu ruje gutega imodoka zijya mu byerekezo bitandukanye mu gihugu.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali, unyurwamo mu byerekezo byombi ,unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka ,amamoto ndetse n'amagare yifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu mu korohereza ubuhahirane hagati y'abatuye umujyi wa Kigali.

Imodoka yifashishwa mu kwikorera ibicuruzwa, iri mu muhanda uva nyabugogo werekeza ku Kinamba, igeze imbere y'isoko aho bagurira ibicuruzwa bitandukanye, harimo imboga n'imbuto.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa yutongo yifashishwa mu gutwara abantu mu mujyi wa Kigali, iri mu muhanda itwaye abantu bava Nyabugogo ibajyanye Kimironko.

Moto yikorera ibintu izwi nka rifani irimo kubisikana na moto itwaye umugenzi mu muhanda w'umujyi wa Kigali, umuhanda ukikijwe n'agahanda gato k'abanyamaguru uyu muhanda kandi ukaba ufite ubusitani bwiza n'amatara awumurikira mu gihe cya n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu mujyi wa Kigali mu Karere ka Nyarugenge unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka ukikijwe n'akayira gato kanyurwamo n'abanyamaguru, umuhanda urimo amatara awufasha kumurika mu gihe cya nijoro.

Imodoka ya fuso yo mu boko bwa hoho, yifashishwa mu gutwara ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye nk'imicanga, amabuye yo kubaka, irimo kugendera mu muhanda umwe ugera Kigali, umuhanda ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Imodoka nini mu mihanda y'umugi wa Kigali, ikaba ikoreshwa mu kwikorera ibicuruzwa bitandukanye bityo igafasha mu koroshya koro ubuhahirane hagati y'ibihugu ndetse igahuza n'uduce tumwe na tumwe tw'igihugu mu koroshya ubuhahirane.

Moto ya rifani iri mu muhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali, imwe mu binyabiziga byifashishwa mu korohereza ubuhahirane bw'abantu batwara imizigo, iyivana mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali.

Umusore ukora akazi ko kwikorera imizigo mu mihanda y'umujyi wa Kigali mu masaha y'ijoro, aho yari atwaje umugore imizigo, arimo kugenda iruhande rw'ibinyabiziga nka moto n'imodoka.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu, ikoreshwa mu gutwara ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi, aho yari itwaye amabuye ahiye yo kubaka inzu mu mujyi wa Kigali iyavanye mu nsisiro aho yari yakorewe.

Imodoka itwara abagenzi ndetse n'imodoka itwara imizigo, zirimo kubisikana mu muhanda wa karimburimbo wo mu mujyi wa Kigali umuhanda ukikijwe n'utuyira duto tunyurwamo n'abanyamaguru ndetse ukaba ufite amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo uherereye ku giti k'inyoni mu mujyi wa Kigali aho uhuza imihanda itandukanye ituruka mu ntara zi nk'izituruka i Muhanga, umuhanda uturuka i Musanze uyihuza n'imihanda ijya mu mujyi wa Kigali.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo unyurwamo mu byerekezo byombi urimo ibinyabiziga bitandukanye nka moto za lifani zifashishwa mu kwikorera ibicuruzwa amagare ndetse na moto uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto twagenewe kugendwamo n'abanyamaguru hamwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Ibinyabiziga bitandukanye ikamyo, moto, n'igare mu muhanda wa Kigali, biva Nyabugogo byerekeza mu Gatsata, bitwaye ibintu ndetse n'abantu.

Ibinyabiziga bitatu, igare, imodoka itwara imizigo ndetse n'imodoka itwara abagenzi biri muri kaburimbo, imodoka nini ndetse n'itwara abagenzi birimo kubisikana, mu gihe igare ritwaye umugenzi ririmo kunyura ku kimodoka kinini gitwara imizigo.

Umutwazi w'igare ukunze kwitwa umunyonzi atwaye ibicuruzwa bitandukanye, abivana mu mwanya umwe abijyana mu kandi gace, bumwe mu buryo amaze kwifashishwa mu ubwo twara ibirintu n'abantu mu Rwanda cyane cyane mu mu nkengero z'umujyi wa Kigali ndetse no mu bice by'icyaro.

Imodoka ikora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu, ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi mu mujyi wa Kigali, aho iparitse muri parikingi yabugenewe mu mujyi wa Kigali, imbere y'inyubako ikorerwamo na Samusung ndetse na Infinix.

Umuhanda w'umujyi wa Kigali wa kaburimbo ugaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo nka moto, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tunyurwamo n'abanyamaguru, ukaba ufite amatara awumukira mu gihe cya nijoro.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa hoho itwara ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi nk'umucanga n'amabuye iri kugenda mu muhanda wa kigali akaba ari umuhanda ukikijwe n'uduhanda duto t tw'abanyamaguru uriho n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu mugi wa Kigali unyurwamo mu byerekezo byombi aho moto itwara ibicuruzwa izwi nka rifani irimo kunyuranaho n'imodoka itwara ibicuruzwa, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani, ukaba uriho amatara awufasha kuwumurikira n'ijoro.

Ibinyabiziga bitandukanye, muto, imodoka, amagare mu mihanda ibereye ijisho y'umujyi wa kigali ikorwamo n'isuku na kompanyi zitandukanye zita ku isuku y'umujyi wa kigali.

Bisi nini zo mu bwoko bwa Youtong zitwara abagenzi, mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali, iri mu muhanda wa kaburimbo, uri mu mujyi wa Kigali, umuhanda ugaragarwamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye, nk'amagare, ndetse na moto, iyi mihanda ikaba ikikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu Gatsata, mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali, ukaba ari umuhanda umurikiwe n'amatara, awumurikira mu gihe cya nijoro, ukaba ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto ndetse n'amagare, ukaba ukikijwe n'utuyira duto turimo amapave, tunyurwamo n'abanyamaguru.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusanzwe ya kompanyi ya royo egisipurese zifite imodoka zifasha abagenzi gukora ingendo mu mujyi wa Kigali, irimo kugenda mu muhanda wo mu mujyi wa Kigali.

Moto mu mihanda y'umujyi wa Kigali, mu bumwe mu buryo bukoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali. Aho batwereka moto zikoresha amashanyarazi n'izikoresha mazutu.

Kafurizone iherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ikikijwe n'amazu nka Makuza Pisi Puraza, hamwe mu hantu hahurira abantu benshi biganjemo urubyiruko, aho hari amazu abagenzi bicaramo mu rwego rwo kuruhuka.

Hamwe mu hantu nyaburanga hakunze guhurirwa n'abantu benshi mu mujyi wa Kigali ahazwi nka car free zon, imbere y'inyubako ndende cyane ya kwa Makuza, ni mo usanga urubyiruko rwicaye ruruhuka rutekereza.

Ikibuga cy'imyidagaduro kiri mu mujyi wa Kigali, gikinirwamo imikino y'amaboko itandukanye, harimo volebolo na basikete, kimwe mu gifasha urubyiruko kwidagadura ndetse no gusabana muri iyo mikino baba bakina.

Icyapa cyo mu muhanda kiboneka mu mihanda ya kaburimbo yo mu mugi wa Kigali, kikaba kiyobora abatwaye ibinyabiziga, kibafasha kumenya ahantu muri Kigali hatemerewe kunyurwa n'ibinyabiziga hanyurwa n'abanyamaguru bonyine.

Icyapa cyo ku muhanda kiyobora abatwaye ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, kigaragara ku mihanda ya kaburimbo, kikaba gifasha abayobozi b'ibinyabiziga kubereka ahantu hatemerewe kunyurwa mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda kereka abatwaye ibinyabiziga ko ahantu bageze basabwa kugenda gake bakanyitonda cyane, kuko hambukirwa n'abantu b'ingeri zitandukanye, bakaba bagomba kuhanyura bitonze mu kwirinda impanuka.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana umuhanda utemerewe kunyurwamo n'ubwoko bw'imodoka buri mu cyapa gicishije mu umurongo, ni n'ubwoko bw'imodoka buri muri iki cyapa, ni ubwoko bw'amabisi manini atwara abantu muri rusange, mu buryo bwa rusange.

Icyapa gisobanura isangano ry'umuhanda wa kaburimbo uherereye mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigalI, aho uyobora abatwaye ibinyabiziga ndetse n'amaguru ubereka ibyerekezo bihuriwemo n'iryo sangano.

Icyapa cyo ku muhanda giteye ku muhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali, akaba ari icyapa kiyobora abatwaye ibinyabiziga bitandukanye nka moto, imodoka ndetse n'amagare, akaba ari icyapa kibwira abatwaye ibinyabiziga ko umuhanda uri ku ruhande ari umuhanda udakomeza.

Icyapa cyo mu muhanda, kiri mu mihanda y'umujyi wa kigali, kikaba kigaragaza ahantu hanyurwa n'abana benshi, cyangwa se ahantu hambukirwa n'bana benshi, muri ako gace icyo cyapa kirimo. Bikaba bisaba abashoferi n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, kugenda bitonze.

Icyapa cyo ku muhanda, giteye ku muhanda wa kaburimbo, imbere y'inzu ikorerwamo ubucuruzi, iki cyapa kikaba cyerereka abatwaye ibinyabiziga umuvuduko ntarengwa, w'ibirometero mirongo itandatu ku isaha.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo kereka abatwaye ibinyabiziga kibafasha kubayobora mu kunoza imigenderere myiza yo mu muhanda, kikabereka ko agahanda gato kari iburyo kadakomeza.

Icyapa cyo mu muhanda kigira abatwaye ibinyabiziga icyerekezo gitegetswe bagomba kunyuramo mu rwego rwo gukoresha umuhanda neza m'urwego rwo kwirinda impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo mu mujyi wa Kigali gifasha abatwaye ibinyabiziga kumenya ahantu nyayo hemewe ho guhagarara akanya gato mugihe bakeneye kwinjiza cyangwa se gukuramo abagenzi.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu rusisiro cyereka abatwaye ibinyabiziga agace bagezemo kikabafasha kumenya icyerekezo ndetse n'ahantu bageze mu gihe batwaye ibinyabiziga.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragara mu mihanda ya kaburimbo yo mu mujyi wa kigali kikaba kiyobora abatwaye ibinyabiziga, kibamenyesha ko ahantu bageze basatiriye ikoni kugira ngo birinde impanuka ndetse no kugenda mu muhanda nabi.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga kibafasha kumenya umuvuduko ntarengwa ku birometero mirongo itandatu ku isaha, kikanababwira ko imbere hari kamera y'umuvuduko.

Icyapa cyo ku muhanda kiyobora abatwaye ibinyabiziga, kiba kiri ku mihanda ya kaburimbo, gifasha kuyobora abatwaye ibinyabiziga kibamenyesha ahantu hambukirwa abantu benshi, mu rwego rwo kuhagenda bitanze mu kurwanya no kwirinda impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda kibura abayobozi b'ibinyabiziga kibereka ahantu abanyamaguru bambukira kikanababwira ko uwo muhanda bagezemo unyurwamo mu byerekezo byombi.

Urusisiro rwo mu mujyi wa kigali rurimo amazu menshi meza yo guturamo, aho abaturage batura hamwe mu mudugudu mu rwego rwo kugira ngo ibikorwaremezo byinshi bibagereho mu buryo bwihuse, babone na serivisi zihuse z'ubuvuzi ndetse n'imihanda.

Inyubako nziza cyane zibereye ijisho z'amagorofa ageretswe n'ibiti biteye mu busitani bwazo bibereye ijisho riherereye mu mujyi wa Kigali.

Ibyicungo bitandukanye bifasha abana kwishima no kunezerwa, bikaba biboneka mu kigo cy'inshuke giherereye mu mujyi wa Kigali, aho byifashishwa n'abarezi b'aba bana, mu rwego rwo kubafasha kunguka ubumenyi butandukanye.

Inzu y'igorofa yubatswe igeretswe rimwe ifite parikingi iparitsemo imodoka, ikaba ifite ubusitani buyizengurutse burimo ibiti, indabo ndetse n'ubwatsi.

Inzu iherereye mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko mu Biryogo, ikorerwamo serivisi zo gukora ibinyabiziga byagize ibibazo; nka moto, guhindura amapine no gusana ibindi byuma bigize ikibazo kuri moto.

Inzu zo guturamo ziri mu rusisiro rwo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, zikaba ari inzu zikikijwe n'ubusitani bwiza ndetse zikikijwe n'insinga z'amashanyarazi zifasha abaturage kubona umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka zitwara abantu ziparitse muri parikingi iri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ikikijwe n'amatara ayimurikira mu gihe cya nijoro, hakaba hagaragara ibinyabiziga nka moto n'imodoka biba bifite umusekirite ubicungiye umutekano.

Abakiriya babiri bicaye bakikije ameza ariho ibyo kurya n'ibyo kunywa mu iduka ricuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa n'amata, icyayi, ikawa ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye harimo amapotaje ndetse n'ibiryo.

Inzu nziza zo guturamo ziherereye i remera mu mujyi wa Kigali, aho zifite ubusitani bwiza bubereye ijisho kandi zubatswe mu buryo bugezweho bugeretse.

Pariki ya nyandungu igizwe n'ibiti by'ibyatsi bisa neza bibereye ijisho, hamwe mu hantu nyaburanga hakurura abakerarugendo benshi batandukanye, baje kureba ibyiza bigize iyi pariki ya nyandungu.

Imiturire mu mujyi wa kigali. Aho bagaragaza site zagenewe guturwamo n’abaturage, bagaragaza amazu atandukanye yagiye yubakwa. Mu rwego rwo kugira ngo abaturage bayaturemo.

Isangano ry'imihanda mu mujyi wa Kigali ririmo imodoka n'amamoto mu muhanda ufite kamera ndetse ufite n'amatara ayobora abatware ibinyabiziga n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza utewemo ibiti by'imikindo n'ubusitani bwiza bubereye amaso, unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba urimo n'ibyapa bitandukanye byo mu muhanda, biyobora abayoboye ibinyabiziga.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza akaba uriho n'utuyira tunyurwamo n'abanyamaguru ukaba ufite n'amatara awumurikira mu gihe cya n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali, akaba ari umuhanda unyurwamo mu byerekezo byombi, uyu muhanda ukaba ufite parikingi yabugenewe, ahagararira ibinyabiziga mu rwego rwo gukuramo abantu ndetse no gushyiramo abandi, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye moto, amagare ndetse n'imodoka, akaba ari umuhanda uriho amatara awumurikira mu gihe cy'ijoro, ukaba ikikijwe n'uduhandada duto tw'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye na moto imodoka ndetse urimo n'abanyamaguru. Ukaba urimo icyapa cyiyobora abatwaye ibinyabiziga, kibereka ko umuhanda unyurwamo mu cyerekezo kimwe, mu rwego rwo kurushaho gukoresha umuhanda neza no kwirinda impanuka.

Isangano ryo mu mujyi wa Kigali rihuza imihanda iva mu byerekezo bitandukanye, nkaho hari umuhanda uva mu mujyi uva i Remera ndetse n'uva Kicukiro, iri sangano rikaba rikikijwe n'amatara amurikira uyu muhanda ndetse n'ubusitani bwiza, ikaba ifite mu mpande uduhanda duto twagenewe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uma umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka, moto ndetse n'amagare bitwara abantu mu mujyi wa Kigali.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa kigali , Akarere ka nyarugenge , urimo kugenderwamo n'imodoka itwara abantu ndetse n'ibintu, ikaba ukaba ari umuhanda uhuza imihanda ituruka mu byerekezo bitandukanye ukaba ugendwamo mu byerekezo byombi.

Akazu abagenzi bicaramo bategereje imodoka, gateye ku muhanda wa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, moto, imodoka zitwara imizigo ndetse n'izitwara abantu.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo riherereye mu mujyi wa Kigali, rikaba rinyura ku kiraro kinyurwamo amazi, aho isangano rikikijwe n'amatara arimurikira mu gihe cya n'ijiro, ikaba inyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo nka moto, imodoka ndetse n'amagare.

Isangano ry'imihanda rihuza imihanda ituruka mu bice bitandukanye ihurira ahantu hamwe, uyu muhanda wa kaburimbo ukaba urimo ibyapa biyobora abatwara ibinyabiziga, mu rwego rwo kubafasha kugenda mu muhanda neza hiririndwa impanuka.

Isangano ry'umuhanda riherereye ku Muhima mu mujyi wa Kigali rihuza imihanda ituruka Kacyiru, ituruka mu mujyi, hamwe n'imihanda ituruka Nyabugogo. Iri sangano rikaba rigaragarwamo n'ibinyabiziga nk'imodoka, bitandukanye ndetse na moto, bikaba bikikijwe n'ubusitani bwiza n'ibyapa bimurika biyobora abatwa ibinyabiziga ndetse n'amatara amurikira uwo muhanda.

Isangano ry'umujyi wa Kigali rihuza imihanda ituruka mu duce tw'umujyi wa Kigali, iri sangano rikaba rikikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru n'ubusitani hamwe n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro mu rwego rwo gukomeza ingendo nta nkomyi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ugaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto ndetse n'amagare, uyu muhandaba ukaba ukikijwe n'utuyira duto twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, ukaba ufite ubusitani bwiza ku mpande ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Inyubako y'igorofa iri mu mujyi rwagati mu isangano ry'imihanda mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, akaba ari inyubako ikorerwamo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n' imwe ifitiye akamaro rura.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo unyuranamo uherereye Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, mu masaha y'ijoro, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'uduhandada duto tw'abanyamaguru, ndetse n'ubusitani, ikaba ifite n'amatara ayimurikira mu gihe cya nijoro.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, rihuza imihanda ituruka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, uyu muhanda ukaba urimo uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti byiza ndetse n'imicaca ubereye ijisho, unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye na moto ndetse n'imodoka mu muhanda ukaba ufite n'amatara ahumurikira mu gihe cya nimugoroba.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ikiraro hejuru cy'umuhanda wa kaburimbo. Uyu umuhanda ukaba uherereye ku kinamba mu karere ka gasabo mu mujyi wa Kigali uka unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo n'amagare.

Umuhanda uherereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo akaba ari umuhanda ugendwamo mu byerekezo byombi ufite ku ruhande utuyira twahaririwe kunyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka zitwara abantu muri rusange ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo, ukaba ari umuhanda ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru banyuramo mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Isangano ry'umuhanda wa kaburimbo unyurwamo mu byerekezo byombi, urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka moto, byifashishwa mu ngendo mu mujyi wa Kigali irimo n'abanyamaguru bagenda ku maguru.

Umuhanda wo mu mujyi wa Kigali unyurwamo mu byerekezo byombi, ukaba unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, iyi mihanda ikaba iriho utuzu twagenewe abagenzi bicaramo mu gihe bategereje imodoka, tuba turi iruhande rwa parikingi zemerewe guhagararwamo n'imodoka.

Abamotari batwara abagenzi kuri moto mu mihanda y'umujyi wa kigali bahagaze imbere y'ahambukirwa n'abanyamaguru aho bategereje ko ibyapa biyobora abatwaye ibinyabiziga bibemerera gutambuka mu rwego rwo kunoza imigendekere myiza mu muhanda.

Isangano ry'umuhanda uhuza imihanda ya kaburimbo iva mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ikaba itewemo ubusitani bwiza, ikaba izengurutswe n'uduhanda duto twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, imihanda ikaba ikikijwe n'amatara ayimurikira mu gihe cya n'ijoro.

Isangano ry'imihanda riherereye mu Mujyi wa Kigali, mu Karere ka Kicukiro. Iri sangano rikaba rihuza imihanda ituruka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, kandi rigaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, amagare, na moto. Rikaba rifite ku ruhande n'uduhanda twagenewe kugenzwamo n'abanyamaguru.